Agakarito kari ku meza ni agakarito bapfunyikamo kado, agakarito gafite amabara y'umuhondo, ubururu n'ibara risa nka move yererutse.

Inyubako y'ishuri inyubako ku rukuta handitseho, hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye handitseho amagambo avuga ngo de fudu wi iti bisobanura ibiryo turya.

Ibitabo by'amabara atandukanye byifashishwa n'abarimu bigisha muri garidiyene cyangwa ikiburamwaka cyangwa inusu, bizwi mu banyarwanda amaba n'ibitabo by'amabara menshi atandukanye yifashijwe.

ibishushanyo bikoreshwa mu kwigisha abana bo muri garidiyene cyangwa se mu kiburamwaka kizwi nk'inusu, hariho ibishushanyo by'abantu bahagaze basa n'abari kurwana, harimo uwambaye umutuku, icyatsi, umuhondo ndetse n'uwambaye ubururu.

Ishuri ryo mu kiburamwaka ryicayemo umunyeshuri wambaye imyenda y'umukara n'ishati y'umweru wicaye mu ntebe abanyeshuri bicaramo, inyuma y'iryo shuri ku rukuta hariho umugabo ushushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda, idarapo ry'u Rwanda, injangwe, imbwa n'inzovu.

Imbwa ifite agakinisho cyangwa se agapupe, kameze nk'inkoko, n'imbwa ifite ibara ry'igitaka isa nk'iri gutambuka mu nzira, igafashe mu kanwa, isa nk'igakuye ahantu.

Ibipupe bibiri n'akandi gapupe kamwe k'akamodoka byicaye ahantu ku kabaraza k'umweru, bisa n'ibyegamye ahantu hari akabati k'umweru byegamye byegeranye.

Icyumba kirimo imbwa iri gukina n'ibipupe, ni bipupe bitanu, harimo: ibipupe by'amafi, icya oranje, ik'ibara ry'ivu, ik'icyatsi, icy'ubururu bwerurutse n'ikindi cy'ubururu bwijimye n'intebe iriho umufaliso inyuma.

Icyumba k'ishuri gishushanyijeho igishushanyo kigaragaza uko amaraso atembera mu mubiri, gishushanyijeho itoroshi, gishushanyijeho n'ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda irimo amabara y'icyatsi, umuhondo, ubururu n'umweru.

Ahantu mu ntebe, mu ntebe imeze nk'aho ari ngari, intebe irimo ibipupe, ni ibipupe bakorera mu ruganda bakora mu ipamba, ni ibipupe byinshi, ibipupe bigera ku icumi.

Abana bari mu ishuri imbere yabo ari umu mama wambaye ikanzu yigitenge, harimo umwana bisa nk'aho ari gusoma agatabo kariho gafite n'amashusho, hariho abantu bari kubyina bekenyeje ibitenge.

Umwana ukiri muto uri mu ikigero nk'ik'imyaka itatu, wambaye imyenda y'ishuri y'amabara y'icyatsi n'ishati ya makarokaro y'amabara y'icyatsi n'umweru, arimo aratambuka agana imbere, hari abantu basa n'aho bari kumureba.

Abantu b'abana bakiri batoya bari ahantu, ni ahantu hari ibikinisho by'abana, harimo ahantu bamwe bazamuka hejuru, ubundi bakaza bakagera hejuru, bakagera ahantu bakicunga bamanuka.

Abana bari mu bwogero, bicaye mu bintu bibafasha kutibira. Niabana batatu basa n'abari mu kigero kimwe, bari ku ruhande rw'iburyo, abandi babiri nabo bari mu kigero kimwe nbari ku ruhande rw'ibumoso.

Icyumba cy'ishuri gisize amabara y'umuhondo, inyuma ku rukuta hari igishushanyo kigaragaza uko amaraso atembera mu mubiri, hirya handitse amagambo asobanura ngo sirikiratori sisitemu ivuga ugutembera kw'amaraso mu mubiri.

Inyubako isize amabara y'umweru, ni inyubako ifite amadirishya menshi, inyubako isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari umuhanda w'ibitaka usa n'uganayo, ku ruhande rw'uwo muhanda hari ahantu hari jaride y'indabo ndende.

Ikibuga kirimo ibyicugwa bitatu abana bo mu mashuri abanza bicungaho mu gihe cy'ikiruhuko bari kugira ngo baruhuke mu mutwe, inyuma yabo hakaba hari n'ibindi byicungo.

Buwate matemetikare iba irimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare harimo nk'amarati akoreshwa mu gushushanya ndetse n'icyo bita kompa gikoreshwa mu gushushanya ikiziga.

Inyubako ngari cyane, ni inyubako yubatse mu buryo bwa gishuri, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, bamwe mu kinyarwanda bita munyu, ni inyubako iri ahantu hitaruwe cyane.

Inyubako ifite amabara y'ubururu bwerurutse. imbere yayo hari jaride irimo indabo, kandi imbere yayo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo murakaza neza bashyitsi, mu rurimi rw'icyongereza.

Buwate matemetikale ibika udukoresho abanyeshuri bifashisha bari kwiga imibare mu gushushanya, buwate inyuma y'aho hariho ifoto y'isi igaragaza uko isi iteye.

Abantu barindwi, barimo abagabo batandatu n'umugore umwe, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro yikoboyi, bahagaze imbere y'amashuri, amashuri afite amadirishya y'ubururu n'irugi rw'ubururu.

Inyubako ebyiri zisa n'izifatanye zisakaje amabati y'icyatsi, imbere yaboho hariho imbuga bisa nkaho aribwo igitunganywa itari ya tunganywa neza ikirimo ibitaka byinshi bidasijije.

Ibitabo bine bisa nk'aho ari ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga ni ibitabo by'ikinyarwanda biriho amashusho atandukanye harimo ikiriho amashusho y'abanyeshuri na mwarimu ugaragara ko ari kubavugisha.

Ibiziga bibiri kimwe kitwa seti si ikindi kikitwa seti de birimo imibare itandukanye, ndetse n'aho aho imibare ihurira harimo aho bihurira harimo cumi na rimwe karindwi n'icyenda, ndetse n'ibindi biziga ku ruhande bigiye bifite imibare yabyo.

Umugore ufite indangururamajwi izwi mu rurimi rw'amahanga nka mikoro, ari kumwe n'abandi bagabo babiri bafashe icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Uburasirazuba Akakarere ka Nyagatare, gutangiza ibikorwa bya siporo n'umuco mu mashuri mu mwaka wa 2024, 2025 Akarere ka Nyagatare.

Ifoto abarimu bigisha muri garidiyene cyangwa bizwi nk'umunusu bakoresha bari kwigisha iriho inanasi, imineke, imodoka, marongi, ibitunguru n'ibikombe byifashishwa mu kubigisha mu buryo bwo kubara.

Inyubako bisa nk'aho ari amashuri, inyubako zubakishije amatafari ahiye, zifite amabara y'igitaka ndetse zisize n'amabara y'umuhondo, umuhondo werurutse.

Insina, intama, ihene, biri ahantu hameze nk'aho bishushanyije ku rupapuro rw'umweru, munsi yabyo handitseho amagambo agira ati: "Urugero: insina, intama n'ihene bidasize".

Icyapa cyamamaza kiriho kirimo amabara ya orange n'amabara y'umukara cyanditseho ngo superimatisheseti ofu matematikari insutumetsi burikesheni..

Ikibuga cy'umupira wa voleyball , mu bakinisha amaboko kiri ahantu ku musozi witaruye imbere yaho hari imisozi ikirere cyo hejuru nacyo gisa neza.

Urupangu ruri mu mabara y'umutuku, hejuru hari icyapa cyanditseho, ikoreragororero ry'abana rya Nyagatare, isa nkaho ari gereza y'abakiri batoya, bagororerwamo.

Ifoto iriho abana bane bagiye ku ishuri, abakobwa babiri n'abahungu babiri bambaye imyenda y'ishuri y'amabara y'umweru n'ubururu n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, harimo umwe ufite agakapu undi afite ikaye.

Igishushanyo, igishushanyo kimeze nkaho ari ahantu mu ishyamba, harimo ibiti birebire cyane, harimo hatambukamo inzovu, iri gutambuka, imbere yayo hari agakwavu kicaye imbere yayo karimo karayireba.

Ibishushanyo by'abana, bibiri harimo kimwe kimeze nk'igikarito, ikindi kimeze nk'umwana wicaye imbere yambaye ingofero, igishushanyo gisize amabara asa nk'aho ari ikirere, cyanditseho amagambo dulabo andi fani.

Umuntu bisa nk'aho ari umwarimu washushanyije igishushanyo cy'umutima, agenda agaragaza ibice bitandukanye agenda wandikaho ngo abe se de, bigaragaza ko ashaka kwerekana amazina yabyo uko byitwa.

Abantu benshi biganjemo abanyeshuri, imbere yabo hari abandi bantu batari abanyeshuri bahagaze imbere y'inyubako, ni inyubako ndende y'amagorofa abiri, inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri bambaye amapantaro ya kaki, n'imipira y'umweru, bafite indabo arizo mu kinyarwanda bita urugori, ni indabo bashyira ku mva z'abantu bashyinguye cyangwa se bamaze igihe bashyinguwe bagiye kubibuka.

Abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye, bicaye ahantu rugaragara ko bari kubera inama bareba imbere, zigaragara aho hariho abashyitsi bakuru bicaye. Ni abanyeshuri batandukanye bo mu bigo bitandukanye kuko bambaye imyenda itandukanye.

Abanyeshuri bambaye imyenda yo hasi y'imikara, iyo hejuru y'imyeru ndetse na karuvate y'umukara bari ku cyitwa asamburoma ihuriro abanyeshuri bahuriraho mu gitondo mbere yuko bajya mu ishuri.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya, afite ibara ry'ubururu, mo imbere harimo abantu bari kuganira, barimo bareba ku kibaho, barimo bareba umwe urimo arabaganiriza, abantu bambaye amajire y'icyatsi n'ay'umuhondo.

Icyumba kirimo abanyeshuri ni abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, hakurya harimo n'undi muntu ariko utari umunyeshuri bicaye ahantu hameze nk'ahantu hari kuberamo inama, buri munyeshuri imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi y'Inyange.

Abantu batandatu barimo ab'igitsina gore babiri n'abandi b'igitsina gabo bane barimo abanyeshuri batanu bari ahantu bahagaze imbere y'inyubako, inyubako ifite urukuta rwubakishije ibiti.

Ahantu basakarishije amatente, harimo abanyeshuri benshi ,ni abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu bwijimye hasi n'amashati y'umweru ndetse na karuvati bahagazemo ari benshi bameze nk'aho ari igitsinagore gusa.

Abanyeshuri bambaye imipira isa y'imihondo barimo barabyina bari kumwe n'abayobozi babiri umugore n'umugabo ndetse n'undi mugabo ubarimo wambaye imyenda y'akazi.

Abantu batanu bari mu kimeze nk'icyumba cy'ishuri, abantu barimo abagore babiri n'abagabo batatu bambaye amajire, harimo abambaye amajire y'icyatsi n'abambaye amajire y'imihondo n'ingofero mu mutwe.

Abagabo babiri bari mu ishuri bambaye amashati y'ibitenge, inyuma yabo hari undi muntu umwe, bari mu ishuri ririmo intebe n'ameza n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Urugi runini cyane, ni urugi rwanditseho ko uwo muryango ari isomero, hakaba handitse ko ari isomero ryo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, icyumba, hakaba handitseho ko ari icyumba cya cyenda.

Abantu bicaye mu ishuri bambaye udupfukamunwa, batandukanye hagati yabo harimo intebe ebyiri, harimo n'abandi babiri bahagaze, barimo umuntu usa n'ubakuriye wambaye ikositimu n'undi uri kuvuga.

Umuntu w'umusore ukiri mutoya, wicaye ahantu mu isomero inyuma ye hari utu etageri turimo ibitabo byinshi, aho yicaye ni kumeza, yicaye imbere y'ameza, ameza ariho mudasobwa.

Igishushanyo kiriho umukobwa, umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye akantu k'agashati ariko kadafite amaboko maremare, wambaye ipantaro n'inkweto zifunze zizamutse za putini, ufite agakombe kabamo kofi mu ntoki n'agakapu mu ntoki.

Abantu bari mu cyumba cy'ishuri abantu basa nk'aho ari urubyiruko rw'abakiri bato, harimo umuntu ari kwandika ku mpapuro, abandi bahagaze abo bahagaze harimo umukobwa wambaye ingofero irimo ibara ry'iroze.

Inyubako imeze nkaho ari inzu mberabyombi irimo intebe z'amabara y'ubururu abantu bicaraho hariho n'akantu umuntu yashyiraho ukuboko cyangwa se yakwandikiramo, ziri mu nzu bigaragara ko hasanzwe haberamo inama.

Inyubako irimo abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye ku ntebe zisa n'ubururu, bisa nkaho ari icyumba kiberamo inama ariko kikaba kitarimo abantu benshi.

Umugore wambaye ishati y'umwe, irimo amabara y'umweru n'umukara n'ijipo y'ikijuju, arimo aratambuka ahantu hubakishije mu cyanya cyubakishije amatafari ya sima.

Abanyeshuri bisa nk'aho basoje Kaminuza, barimo bishimye bambaye amakanzu, bambara mugihe cyo gusoza, bambaye n'igofero, bari kuziterera hejuru bagaragaza ibyishimo.

Abantu basa nkaho bari kwifotoza bari imbere y'icyapa cyanditseho yu ara yunivasiti ofu Rwanda, imbere yabo hari ameza manini akorerwaho inama y'abantu benshi.

Inyubako irimo abantu. Ba bicaye ku ntebe z'icyatsi n'abantu batari benshi ni inyubako, irimo amarido y'ubururu, n'umuryango w'inzugi z'ibiti. Ujya muri iyo nyubako.

Igishushanyo kiri ku rukuta kigaragaza inzu iri ahantu ikikijwe n'urugo rw'ibiti bisanzwe, bitari urupangu, igaragaza n'ikirere, uko ikirere kimeze, ikirere gisa neza.

Inyubako ifite urukuta rwanditseho amagambo menshi yanditseho, University of Rwanda Empowering UR Students and the Community to solve their problems. UR Nyagatare Campus student club n'andi magambo menshi atandukanye.

Inyubako imeze nk'aho ari icyumba cy'amashuri, inyuma ku bw'injiriro ku rugi handitseho rimwe, R cumi nagatatu. Mo imbere hameze nk'aho harimo intebe, harimo n'abantu bicayeho harimo umuntu wicayemo ubona ko hari ibintu ari gusoma.

Ibibumbano bikozwe mu ibumba, biteretse ku meza ni ibibumbano bisa n'ibitarekwamo ibintu, kimwe gifite imyanya ibiri, ijyamo ibintu bibiri bitandukanye.

Ishasi iteretseho ikibumbano, ikibumbano gikozwe mu ibumba gisa n'ikimeze nk'ivaze, ivaze baterekaho indabo, giteretse ku ishashi ifite amabara y'umweru ndetse n'ay'ubururu bwerurutse.

Ameza ariho ikibumbano gikozwe mu ibumba, gikoze mu buryo kigaragara ko ari nk'ivaze baterekamo indabo cyangwa se bashyiramo itabi mu gihe bamajije kurinywa.

Abantu benshi b'urubyiruko bambaye imipira y'amabara y'umukara barimo abasore n'inkumi, imbere yabo hari ameza hariho utubito tw'amazi y'Inyange bari mu kintu kimeze nk'amatente.

Ameza ariho ikibumbano gikozwe mu ibumba ariko bitari byagaragara neza icyo ari cyo nimba ari inkono, nimba ari ivaze, nimba ari iki, ntago byari byagaragara neza kiracyari kubumbwa.